Ababikira batatu bari kumwe n'abagabo batatu n'abana babiri, bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, ababikira bambaye imyenda yabo, bakaba umugabo umwe afite ubumuga agendera ku mbago.

Inzu y'ubucuruzi bw'imiti y'amatungo izwi nka farumasi, tuzi ko bagira imiti ifasha amatungo kumeza neza, ikayikiza uburwayi.

Inzu ikorerwamo farumasi, farumasi ni aho batangira serivise z'imiti igurishwa, igurwa n'abarwayi, baba bayandikiwe kwa muganga. Baza baje kugura imiti muri farumasi. Hahagazemo umugabo, wambaye itaburiya y'umweru.

Itente ryubatse ryicawemo n'ingeri z'abantu zitandukanye; abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko. Harimo umugabo umwe ufite ubumuga bw'akaboko, wiyegamije inkoni bicaye ku ntebe bagiye bambaye bose imipira y'imyeru.